Inama ni ihuriro ry'abaturage benshi batandukanye ibitsina byombi abagore cyangwa abagabo, abo bose baba bahuriye hamwe kugira ngo bungurane ibitekerezo, haba hari uyoboye inama, uyoboye inama niwe uba witwa umuyobozi cyangwa se umutumirwa mukuru, uwo ni we ugira icyo avuga ndetse akakigeza no ku batumiwe.

Inama ni igikorwa gihuza abaturage benshi batandukanye ndetse n'abayobozi babo, usanga harimo umutumirwa mukuru, ugasanga harimo abakorerabushake, usanga harimo abashyitsi batandukanye, Polisi ndetse n'ingabo z'igihugu.

Hari ikintu gitanga icyizere mu banyarwanda ndetse no mu banyamahanga. Iyo abantu bashyize hamwe, bakora ikintu kimwe. Birushaho kuba byashoboka kandi bikabafasha kuba bagera ku ntego bihaye. Biba byiza cyane iyo bose bahuje umutima.

Ababyinnyi ni abantu babyina intore bateze bambaye icyo bita amayugi, ndetse n'imyenda mpuzangano y'ababyinnyi, baba bambaye imyeru ndetse bambaye n'inigi, ndetse inyuma yabo haba hariyo ikirangantego cyangwa se ikiranga u rwanda.

Umuco nyarwanda umuvure ni igikoresho cyifashishwaga mu kwenga ibitoki, iyo byabaga bamanje kubitara bamara kubitarura bakabishyiramo bakabyenga bakandagiyemo, cyangwa se bakoresheje amaguru ye ndetse bakagira.

Mu muco nyarwanda abantu turambara tukaberwa tukarenzaho ndetse n'imyitero ndetse twamara no kwambara imyitero tugasokoza ruhanika, twamara gusokoza ruhanika tukagira neza imisatsi yacu, ubundi tukayizirika ibyo bita kwiyitaho.

Umuriro w'amashanyarazi ni ahantu haba hubatswe neza bashyiramo urugi bagashyiramo akazu ndetse bagashyiramo n'imashini zishinzwe gutunganya uwo muriro. Mu gihe uhageze haba harimo insinga zo bacomora ndetse n'izo bacomeka kugira ngo umuriro ubashe kugenda ujye ahabugenewe.

Uburuhukiro bw'umuriro hariho ahantu usanga hariho akantu kameze nk'akabuni, ako ngako kaba karimo ndetse gakubiyemo insinga zitandukanye, izo nsinga zikaba ziva aho ngaho zijya ku mazu y'abantu mu buryo bwo kugira ngo zitangeyo urumuri.

Umuriro w'amashanyarazi wifashishwa bacana, usanga aho uri haba hari insinga hari ibiti bizwi nk'amapoto ndetse bifasheho n'izo nsinga mu buryo bwo kugira ngo uvane umuriro hamwe ujyana mu kandi gace.

Inyubako za Leta, dusangamo uburyo butandukanye bwazo, harimo ibitaro, harimo amashuri ndetse tugasangamo n'ibiro by'abayobozi aho bakorera, ugasanga harimo nk'ibiro by'Umurenge cyangwa se ibiro by'Akarere.

Urutindo ni igikoresho abantu bifashisha bambuka ahantu umuntu atasimbuka. Usanga hariho amazi cyangwa se ugasanga ari nk'ikinogo cyacitse mu muhanda; bagashyiraho ikiraro cyangwa se urutindo. Urwo bakarwifashisha bambuka icyo kinogo.

Ubutabera ndetse n'inkiko ziharanira uburenganzira bwa muntu. Iyo mu rwanda umuntu agize ikibazo cyangwa se akagira uhohotera uburenganzira bwa muntu, hari inzego ziba zibishinzwe zishinzwe gukemura ibyo ngibyo, zishinzwe kureberera neza umuntu uburenganzira bwe.

Abacamanza ndetse batabera baharanira uburenganzira bwa muntu baba bafite indabo bashyira ku mirambo y'abacitse ku icumu cyangwa se bazize jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ugasanga ba bafite n'uburyo baburanira abarengana bacitse ku icumu cyangwa se abishwe muri jenoside.

Ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu dusangamo aho batwara imodoka mu muhanda bagenda bashakisha abantu bajya mu ngendo ndetse bafite urugendo cyangwa se uruzinduko bava ahantu bajya ahandi, bikabafasha kwihuta bakoresheje imodoka zabugenewe ndetse na moto.

Umuryango ushinzwe kubungabunga umutekano w'abantu, usangamo abapolisi, abayobozi b'inzego z'ibanze, abasirikare, abadasso, ndetse n'abandi bantu batandukanye nk'urubyiruko rw'ubukorerabushake, si urubyiruko gusa ndetse harimo n'abandi bakorerabushake. Ugasangamo inzego z'ibanze zitandukanye.

Abashinzwe umutekano, aho dusanga n'abashinzwe umutekano b'inzego nyinshi ariko ugasanga umutekano ntago ari uw'abawushinzwe gusa ahubwo umutekano ni uwa buri wese, buri muntu yicungira umutekano ku buryo bwe bushoboka haba harimo abasirikare, hakabamo abapolisi ndetse n'umuturage ku giti ke.

Imihanda yo mu cyaro ndetse n'utuyira, ahangaha usanga harimo imodoka, zigenda ndetse muri utwo tuyira ugasanga hateyeho nk'utujaride cyangwa se ubusitani, ugasanga ku muhanda hubatse utuzu tugiye tumeze ukuntu twiza kandi dushimishije.